Bala irimo intebe nyinshi cyane n'ameza ariko nta bakiriya ifite. Irimo amatara acanye agaragarira mu birarahuri.

Umugabo wishimye cyane, urimo gusuka icyo kunwa utegereje abantu runaka basa n'aho bagiye kuza kumusura, ari ahantu hari igiti cy'icyatsi mu nzu imeze neza.

Abagabo babiri basohokeye ahantu muri bara. Bari kunywa inzoga, bafite icupa rinini, ndetse hari n'inzoga z'ubwoko bwose.

Ibyo kurya bitandukanye biri mu masafuriya yabugenewe, bitegereje kuba byashyirwa ku ziko, bigatekwa bigashya abantu bakabirya.

Ibyo kurya bikawushije mu mavuta bisa neza, bifite isuku, byaruririwe ku isahani y'umweru, nayo isa naho bayikoreye isuku imeze neza.

Bare nziza cyane, ifite isuku, harimo udutebe tw'umutuku, n'utundi tugiye kuba umweru, n'akameza, duteye ku ruziga tuzengurutse akameza.

Ishuri ryigishirizamo ibijyanye n'ikoranabuhanga, rifite urugi rw'icyuma ndetse n'amadirishya y'ibyuma. Ishuri risa naho rikomeye ririho na kizimyamwoto.

Abantu bacuruza amarangi atandukanye. Bavanga amarangi y'ubwoko bwose, hari ibijerekani birimo amarangi, indobo ntoya nini, n'umugabo ku ruhande wambaye ingofero n'ishati y'umweru.

Botike iteye irangi ry’umutuku, hariho ibirango bya Eyateli. Ariko imbere hicaye umu ejenti wa Emutiyeni, uri kumwe n’undi mugabo wambaye umupira w’umutuku n'igare riri impande y’igiti, ripakiye ibirayi.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bitandukanye, harimo n'ibinyobwa bya a Amasiteri ndetse hari n'umuriro w'amashanyarazi.

Amabotike menshi ari ku muhanda imbere yayo hanitse amasaka ndetse n'ibindi bintu biri mu mifuka imbere y'ayo mabotike.

Inyubako ifite iruhande rwayo hashaje cyane, amapave yarasenyutse, hari guturuka umuntu, ugeze iruhande rw'ipoto y'amashanyarazi, ari ku muhanda.

Inzu nziza igaragaraho amatara atatu acanye, n' umugabo wicaye mu gatebe keza, iruhande rwe hariho agakiyosike ka MTN, ndetse n'umunyonzi ufite igare.

Botike icuruza ibyokurya bitandukanye. Harimo ibikomoka ku matungo n'ibikomoka ku bihingwa. bacuruza n'ibyo kurya bitetse.

Isoko ryiza rya kijyambere riparitseho imodoka ebyiri, hanze yaryo ryubatse mu buryo bwa etaje. Rifite amazu agerekeranye acuruzamo ibyo kurya bitandukanye harimo imigati n'ibyo kunywa nk'amata n'ibyayi.

Ahantu bacuruza ibinyobwa bitandukanye ndetse n'utwo kurya harimo nk'amandazi , biswi ,hahagaze umugabo ugaragara urukweto gusa ,bacuruza ibinyobwa bya kokakola.

Butike iri impande ya sitasiyo. Irimo umwijima, hari abantu bicaye hanze. Iruhande rwabo haparitse imodoka ya vuwatire.

Inzu iri iruhande rw'umunara muremure n'ipironi bifasha mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, hari umumotari wicaye kuri moto, ariko amaguru akoze hasi kumuhanda, n'inyubako ifite amabati atukura.

Botike icuruza ibikoresho by'ubwubatsi binyuranye, harimo amasima, hari abantu baje kugura, hari umumama ufite indobo itukura.

Ahantu haparitse imodoka ebyiri z'imikara nziza, hari amapave, n'inyubako nziza zabakire zikomeye zimeze neza.

Ikirere gisa neza cyane. Ahantu hari hoteri yitwa Casiti siti hoteli. Inyubako nziza y'ibirahuri, ahantu habereye gusurwa rwose pe!

Ahantu hamanitse imyenda y'abadamu igiye itandukanye. Ni aho basanira inkweto, hari umukorodoniye wambaye isarubeti y'ubururu witeguye gukora inkweto.

Imodoka itwara imizigo, ifite ibara ry'ubururu n'umweru, iruhande rwayo hari abamama babiri, umwe afite ibase, undi ahetse umwana, hirya hari agashyamba gatoya.

Ibicuruzwa biri ahantu ari byinshi muri botike, bipanze bigerekeranye cyane, ku buryo bihirimye byagwa ku bantu bikaba byabangiriza, bisaba kubimanurana ubwitonzi.

Inzu igaragara igice kimwe isakaje amabati y'umukara , iri kumwe nicyapa gifite amabara y'umukara n'ay'umweru ,yanditseho resebusiyo.

Akabotike kari iruhande rw'inzu ya etaje bari kubaka. bamaze kugera kuri folo ya kabiri. Hejuru harimo umuntu usa naho ari kubaka umwe.

Inyubako nziza igaragara nk'aho ari botike ndetse na bala, bacururizamo ibyo kunywa. Hari icyapa cya sikolo ni kalasike piyubi. Hariho ijambo welikamu.

Botike bacururizamo ibintu binyuranye, har'ibisheke byiza, kimwe kirekire kigeze hejuru n'ibindi bibiri by'ibice bakaseho bakagurisha, n'umugabo ufashe intebe bigaragara ko agiye kwicara.

Ahantu hari ivuriro ryitwa Teta mediko kirinike seta limitedi. Iruhande rwaryo hari umugabo uri ku igare n'indi nyubako irimo kubakwa, bigaragara ko ikiri hasi.

Resitora bacururizamo ibyo kurya, nta muntu uyirimo, harimo umwijima nta n'itara riri mu nzu. Hashushanyijeho umuntu ufashe ifoke ugiye kurya. Resitora yitwa kimaranzara resitorenti.

Butike icuruza ibintu binyuranye, ihagazeho abantu babiri kumuryango na moto, mw'imbere muri butike haragaragara utudobo twinshi tugerekeranye.

Farumasi bacururizamo imiti itandukanye, bafite umukiriya umwe, n'imiti myinshi iri mu kabati, no ku kutuyetajeri dutandukanye.

Ahantu hari inyubako y'amabuye, hari n'ateye irangi ry'umweru, iruhande rwaho hagana hasi hateye ibimera bigufi, bifite ururabo rumwe rumwe n'ibindi bitaragira indabo.

Abantu benshi bari mu muhanda . Bamwe bari kugenda n'amaguru ,abandi na moto ndetse n'amagare. Hejuru yabo hanyuze insinga nyinshi z'amashanyarazi n'amatara yo ku mihanda.

Ahantu hari icyapa cya sikoro bacururiza ibyo kunywa. Imbere yaho haparitse imodoka ebyiri, imwe y'umukara n'indi y'ikijuju. Iruhande rwayo hari n'inzu ikotiriye, ikokiriye hakoreshejwe ibyuma.

Abantu bari guteka mu gikoni gifite amashyiga ya kijyambere, ahantu hari isuku, hari amakaro ameze neza cyane bishimishije.

Icyapa gitoya cyanditseho ngo kame egene mini maketi, gifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, cyanditseho na nimero wababarizaho.

Butike icuruza matera za dodoma, iriho umugabo uri gukora isuku, imbere yayo yubakishijwe amakaro no ku nkingi hariho amakaro.

Inyubako nziza zirimo umuriro w'amashanyarazi, zifite isuku. Iruhande rwazo hari umugabo urimo kugenda yihuta. Yambaye agapira k'umuhondo, n'undi uri ku igare upakiye ibijerekani.

Agakiyosike ka airtel gahagazeho umuntu umwe. Iruhande rwako hari n'aka MTN katagaragara neza. Biteretse imbere y'inzu ndende irimo ibirahuri na giriyage mu madirishya.

Ahantu ku muhanda hari inyubako zitandukanye, zifite igipangu. Hari n'icyapa cy'ubururu n'umusore uri ku igare urimo kurinyonga.

Inzu ifite utwatsi twiza duteye imbere yayo, turiho utuyange tw'umutuku tubiri, ifite amadirishya y'umweru, hejuru hatseho ngo arobaze fesibuku roji.

Butike bacuruza ibintu byinshi binyuranye. Harimo amarangi aba mu bijerekani n'aba mumbegeti, ndetse butike ifite inzugi z'icyatsi n'amakaro hejuru. Iruhande hari n'ifite icyapa cya Airtel.

Butike irimo ubusa nta bicuruzwa birimo, mu kabati karimo uducupa tubiri n'ibibegeti binini bibiri ndetse n'ijerekani n'umukoropesho n'agatebe biri hanze gusa.

Inyubako nziza iri ahantu hatuje, ikikijwe n'ibimera ndetse n'ubusitani bwiza, hari kuva akazuba bigaragara ko hakeye.

Inyubako ikoreramo hoteri nziza. Ifite ibirahuri, amabati y'umukara ikintuza gitanga netiwaka ndetse na pisine imbere yayo.

Icyapa cya kaminuza ya inesi Ruhengeri, kiri iruhande rw'umuyejenti ndetse n'abandi bantu benshi bari ahongaho, baje kugura ibintu bitandukanye. Hari na moteri ifite ikirango cy'icupa rya mitsingi.

Urukarabiro rwiza rufite imigezi itatu, hariho n'umuti wica udukoko bashyira mu ntoki ndetse n'isabune, hari akantu ko kwihanaguza igihe umaze gukaraba intoki.

Ahantu mu isoko ryubakiye harimo abacuruzi batandukanye, hari umama wambaye ingofero y'umweru n'ikoti ry'umukara, uri gucuruza indobo nyinshi zitandukanye n'umuntu usa n'aho ari umukiriya.

Botike irimo uducuruzwa dukeya .Harimo amatoroshi, amavuta ashushanijeho inka, n'ibindi bicuruzwa biri mu bishashi, birambitse impande y'ayo mavuta n'amatoroshi ari mu ikarito.

Abantu bamaze gusarura imboga betirave, basa n'aho bari kugurisha, ahantu mu isoko rigurishirizwamo ibyo kurya binyuranye.

Ahantu bacururiza, ibyo kurya binyuranye hari ibishyimbo, amafu y'igikoma y'ubwoko butandukanye n'umumama umwe uri kubicuruza.

Ahantu hacururizwa ibikoresho binyuranye harimo indobo, ibiyiko, ibirahuri, udutanda two gushyiraho ibikombe n'amasahani, n'ibindi byinshi binyuranye.

Abantu benshi cyane bari mu isoko, harimo abaje guhaha, abacuruzi n'umuyejenti wa MTN mobayilo mani.

Isoko ririmo abantu batanditse inkweto zifunguye, n'ibindi bintu byinshi binyuranye, n'imitaka ya mobayiro mani iri ahantu hatandukanye.

Isoko bacururizamo ibintu byinshi binyuranye, harimo n'abakarani bambaye amasarubeti y'ubururu, n'aba ejenti ba mobayiromani, bafite n'imitaka ibaranga.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi butandukanye, harimo amata y'inyange, amazi, amavuta, amaji, ari ku tu etajeri apanze neza.

Imboga nyinshi zirunze hamwe. Ziri ahantu mu isoko. Harimo inyanya, urujete, burikori, n'izindi nyinshi zitandukanye.

Ahantu bacururiza ibikoresho binyuranye harimo: amasafuriya, indobo, ibikombe, imyuko, n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ahantu mu isoko bacururiza imbuto n'imboga bitandukanye, hari: shufureri, burijete, amaronji adahiye neza, karoti, urusenda, intigi, n'amagi.

Ahantu mu isoko bacuruza ibikoresho binyuranye, harimo iby'amabara atandukanye n'umugabo umwe wambaye ingofero y'umutuku, uri gucuruza.

Isoko ririmo utuntu dukeya, ryubatse muri etaje, hasi kuri garawundifuro hariho umugabo, harimo ibishyimbo, harimo n'ibindi bintu binyuranye.

Agatanda kariho ibitunguru, karoti, inyanya, imiteja indimu, amabase abiri, imwe isa n'aho ishaje. Imboga hejuru, ku gatanda hariho umufuka.

Isoko bacururizamo ibyo kurya binyuranye, harimo imboga zigiye z'ibibiringanya n'ibindi bikoresho birimo amabasi n'indobo.

Inkweto nyinshi zifunguye ziri aho bazicururiza kuri shitingi, n'abantu bigaragara ko baje kugura inkweto zitandukanye.

Abantu bari mu isoko baje kugura ibintu binyuranye. Hari abazanye ibicuruzwa, hari n'abandi baje babereye aho baje kugura ibyo bicuruzwa.

Ahantu bamaze gusenya inyubako yari ifite amabati ashaje cyane. Umudamu yunamye ari kuyazinga undi yariyicariye, n'undi ari kugenda hagati yabo.

Ahantu bacururiza ibintu byinshi binyuranye, biri ku tumeza tw'ibiti ndetse n'abantu bicaye bari gucuruza batuje.

Isoko bacururizamo imbuto zinyuranye. Harimo amadegede, imineke n'izindi mbuto z'ubwoko bwinshi. Biteretse ku dutanda twabugenewe kandi dufite isuku.

Isoko bacururizamo ibintu binyuranye, harimo abagabo baje guhaha bumvikana ibiciro nabagurisha, n'abandi barimo kugenda.

Abantu benshi bari ahantu mu isoko bacururiza imyenda inyuranye, iy'abantu bakuru, abato ndetse n'abakecuru n'abasaza, abantu benshi bunamye barimo gucagura imyenda.

Ahantu mu isoko bacuruza imyenda, n'ibindi bikoresho binyuranye, iruhande rwaho hari ipoto y'amashanyarazi, iriho insinga nyinshi zijyanye, umuriro ahantu hatandukanye.

Ahantu bacururiza imbuto harimo amaronji, ibinyomoro, ibihaza n'izindi nyinshi zinyuranye.

Isoko bacururizamo ibitoki, hari abakecuru benshi baje guhaha ibitoki, bunamye, bari gucagura ibyiza ngo bahahe.

Isoko bagurishirizamo imboga, ririmo abamama benshi bari gucuruza, abandi bari guhaha, harimo puwavuro n'izindi mboga zinyuranye.

Ahantu mu isoko hari umunzani w'amabuye ndetse n'uw'isahani ukoresha imibare. Hari n'ibintu by'imbaho ndetse n'ibindi biteye irangi ry'umweru.

Isoko bacururizamo imyenda y'abana, harimo umukiriya umwe, n'abacuruzi bari gucuruza, imyenda itandukanye.

Akabotiki bacururizamo utuntu duto duto tunyuranye harimo amabiswi ,harimo nizo mu dukombe bita sana zikundwa n'abana cyane ku kigero kiri hejuru n'umunyu upakiye mu gakarito.